Imbaga y'abantu benshi bambaye amajire y'umutuku bigaragara ko ari abantu bashinzwe ubutabazi bw'ibanze ni ukuvuga bazwi nka Croix Rouge, bahagaze impande ya sale nimero ya mbere.

Ahantu hari abantu babiri, umwe muri bo akaba ari igitsina gabo, akaba ashinzwe ubutabazi bw'ibanze ari kumwe na mugenzi we, bari munsi y'inzu ifite amadirishya abiri n'urugi rumwe, hirya hari insina ndetse n'amabuye inzu ikaba isize karabasasu.

Abasore bane bashinzwe ubutabazi bw'ibanze biragaragara ko bari guha mugenzi wabo ugize ikibazo ubwo butabazi bakaba bari hagati mu mirima.

Ahagaragara imashini nyinshi cyane zigiye zitandukanye, hazwi nko kwa muganga bigaragara ko ari aho bakirira umuntu w'indembe cyane, kuko hari amamashini bakoresha bareba uko ahagaze kugira ngo bakore ubuzima.

Kwa muganga aho bakirira abarwayi haragaragaramo umuganga w'igitsina gore wambaye agapfukamunwa ndetse akaba yambaye n'itaburiya y'umweru na ga mu ntoki, urubona ko harimo abarwayi babiri umwe muri bo akaba ari gufatwa ikizamini cy'amaraso.

Mu nyubako imwe ahari gutangirwa amahugurwa ajyanye n'ubutabazi bw'ibanze, imbere hagaragara umugabo wambaye ibyabugenewe uri gutanga ayo mahugurwa, mu ntebe hagaragaramo abantu bicaye b'ingeri zitandukanye harimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore.

Kwa muganga kimwe mu cyumba bakiriramo abarwayi hagaragaramo umuganga wambaye utuntu mu matwi uri kumva umurwayi amupima umuvuduko w'amaraso hirya yo hariyo abandi bantu babiri.

Kuri posite do sante ahagaragara abantu bagera mu icyenda b'igitsina gabo bahagaze bitegeye imbere basa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso ubona ko ari ibintu bitayeho kandi batumbereye ahantu hamwe.

Ahazwi nko kwa muganga ndahabona imbaga y'abantu benshi, abagera kuri batanu muri bo baricaye abandi bane barahagaze, mu bahagaze batatu ni igitsina gabo, umwe muri bo ni igitsina gore, bambaye udupfukamunwa tw'umukara babiri muri bo, abandi babiri bambaye utw'ubururu.

Kimwe mu cyumba cyo kwa muganga haragaragara abaganga bambaye imyenda yabugenewe y'icyatsi, bambaye n'udupfukamunwa dupfutse ku mazuru ndetse n'umunwa, hirya yaho hakaba hari abandi bantu babiri bari kwitegereza ibyo bari gukora.

Ahazwi nko kwa muganga haragaragara abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya n'ingofero mu mutwe umwe muri bo akaba afite urushinge, mugenzi we akaba amufashije agacupa ari gukuramo umuti asa nk'aho agiye gutera umurwayi.

Ahazwi nko kuri girubuzima haragaragara abantu bagera muri barindwi hagati muri bo hakaba hahagazemo umuganga wambaye itaburiya, ndetse n'umusore uri iruhande rwe wambaye ijire y'ubururu ubona ko bari nko gufata ifoto y'urwibutso.

Gushyigikira igikorwa cyo kwibuka ku bantu bashinzwe ubuzima hakubiyemo ibitaro, ibigo nderabuzima, ndetse n'ahandi ni ibintu b'ingirakamaro kuko bituma bunga ubumwe kandi tugateza Igihugu cyacu imbere.

Kwa muganga aho basuzumira abarwayi haragaragara abategerereje hanze bagera kuri batatu ndetse n'umwe uri kwinjira, hanze hakaba hari umugabo ufite ubumuga bw'amaguru wicaye mu kagare.

Aha ni Gatumba hospital ibitaro byo mu Karere ka Nyagatare, ni ahantu bagira imbangukiragutabara zihuse, kandi zigeza abarwayi aho zigomba kuhageza ku gihe bidatinze, kandi uyibona byihuse rwose, ibi ndabishimye kuko ni serivisi buri muntu wese yishimira.

Ahazwi nko kwa muganga haragaragara ha kandagira ukarabe ndetse n'inyubako zitandukanye hakaba hariho ibyapa bigiye biyobora abantu bitewe na serivisi bashaka kuhaka.

Ahagaragara imbaga y'abantu benshi basa nkaho bari ku murongo barindiye igikorwa runaka, ndabona higanjemo urubyiruko, abakuze, abagore, ndetse n'abagabo.

Ahazwi nko kwa muganga hagaragara urukarabiro rwiza rufite isuku, ni ukuvuga ko abagiye kwinjira muri icyo kigo babanza gukaraba intoki neza n'isabune, bikaba ari ubukangurambaga bwo kugira ngo bahashye indwara z'inzaduka.

Kwa muganga ahagaragara nko mu cyumba bakunze kwakiriramo abarwayi, haragaragara umuganga ndetse n'undi muntu umwunganira, bari gufasha umurwayi kwiyumvisha neza ibijyanye n'ibyo yivuza.

Kuri sale numero ya mbere hahagaze abantu bashinzwe ubutabazi bw'ibanze, bambaye amajire y'imituku ndetse ashushanyijeho akamenyetso k'agasaraba ku gatuza.

Mu hari gutangirwa urukingo rw'indwara haragaragara abagabo babiri, umwe akaba ari gutera mugenzi we urukingo, uwo bari gutera urukingo, akaba yambaye amarinete ndetse bombi bakaba bambaye ubupfukamunwa bupfutse umunwa n'amazuru.

Kimwe mu byumba byo kwa muganga haragaragaramo ibitanda baryamishaho abarwayi batahise basezerera ndetse harimo abaganga bagera kuri bane bambaye amataburiya y'imyeru n'undi umwe wambaye itaburiya y'ubururu n'ibyuma bakoresha bashyiraho serumu bagiye gutera abarwayi.

Mu cyumba kimwe cyo kwa muganga haragaragaramo umuganga wambaye imyenda yabugenewe itaburiya y'umweru, wambaye impeta ku ntoki ebyiri ndetse ufite na bike mu ntoki uri kwandika.

Kwa muganga mu cyumba cy'aho bafatira ibizamini, haragaragara umuganga wambaye ga z'umweru ufashe urutoki rw'umurwayi, asa nkaho agiye kumufata ikizamini cy'amaraso.

Aho bafatira ibizamini hazwi nko muri laboratwari haragaragaramo ubucupa bafatiyemo amaraso ndetse akaba kamwe bari kugashyira ahabugenewe n'umuganga wambaye ga ndetse n'itaburiya y'umweru..

Ahapimirwa imiti ndetse n'ibizamini bigiye bitandukanye bitangwa n'abarwayi cyangwa kwa muganga, haragaragara akenzani gateretseho agasahani ka pulastike hakaba uri bugapimisha yambaye ga z'icyatsi.

Ahazwi nko muri laboratware ndikubonamo umwana ufashe ukuboko n'umubyeyi we ndetse n'umuganga wambaye ga z'umweru, bari kumufata ikizamini cy'amaraso kugira ngo bamusuzume.

Mu cyumba bapimiramo ibizamini ndetse bakaba bafatiramo amasampo agiye atandukanye, haragaragaramo umuganga w'igitsina gore ndetse n'abandi bamwitaruye b'igitsina gabo babiri, ubona ko ari abatanze ibizamini bakeneye ibisubizo.

Kwa muganga ahagaragara icyumba cya raboratwari bapimiramo ibizamini abarwayi baba baratanze, hicayemo umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru na ga z'ubururu ku maboko ndetse n'itaburiya y'umweru.

Hano muri laboratwari ndi kubonamo umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa gapfutse umunwa n'izuru, uri gukora kureba sampo zigiye zitandukanye ndetse anambaye ga z'ubururu zo kwirinda ibyamumeneka ku biganza, hari imashini zigiye zitandukanye.

Ahazwi nk'aho hafatirwa ibizamini by'abarwayi, haragaragara umuganga w'igitsina gore wambaye ga mu ntoki ndetse n'itaburiya y'umweru, ku ruhande rwe hicaye abasore babiri basa nk'aho aho bategereje ibizamini.

Aho bapimira amasambu ndetse bafata ibizamini bigiye bitandukanye, haragaragara urubyiruko rwambaye amatabu y'imyeru, rusa nkaho ruri kwimenyereza akazi, ku bijyanye n'ibyo biza.

Muri laboratwari ndi kubonamo abagabo babiri, umwe wambaye umupira w'umweru, undi yambaye ishaketi, ari gukora kuri laputopu, undi ari kuri mashini ipima amasampo agiye atandukanye y'ibyo bashaka kureba uko bihagaze.

Aho bafatira amasambu ndetse bapimira n'ibizamini, hazwi nko muri laboratwari, hagaragaramo ibikoresho bigiye bitandukanye, bibafasha muri ako kazi ndetse n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamuma, bigaragara ko ari mu kazi.

Ahazwi nk'aho bafatira ibizamini ndetse bagapimira amasambu agiye atandukanye ndahabona y'imashini umuganga ari kureberamo izwi nka microscopi ipima microbe tutaboneshwa amaso, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ishati ya karokaro irimo umutuku n'umweru.

Kwa muganga ahazwi nk'aho bakingiriza abana haragaragara abagore benshi, buri umwe akaba ateruye umwana we amuzanye mu gikorwa cyo kumukingiza.

Ababyeyi babiri ubona ko ari umwe ari umugore undi akaba umugabo bateruye, abana basa bambaye n'imyenda, isa yose bahagaze imbere y'umuryango, wo kwa muganga bigaragara ko ariho, bitira ku bana ndetse n'abagore.

Kwa muganga haragaragara abantu babiri umwe muri bo ni umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, undi ni umubyeyi uteruye umwana, bikagaragara ko ari kurangisha aho bita ku bana ndetse n'ababyeyi.

Ahagaragara abana b'incuke bateraniye hamwe hazwi nko ku irerero. Turabona uku bita ku bana babaha ibyo kurya n'ukuntu babigisha kwicara ku murongo umwe, kandi buri umwe afite ikinyabupfura ataderanja mugenzi we.

Ahazwi nko kwa muganga haragaragara kimwe mu cyumba bapimiramo abana babasuzuma ko bujuje ibiro ndetse ko bari gukura ku kigero kiza gishimishije, hari kugaragara umugabo uri kureba ku munzani uko umwana uriho apima.

Ahantu hari abantu benshi bakikije ameza bigaragara ko harimo n'umuganga bisa nkaho bari gukingirwa ndetse no gupimwa indwara zigiye zitandukanye.

Kwa muganga ahazwi nk'ahaba hari ababyeyi babyaye, haragaragara umuganga wambaye imyenda yabugenewe y'umweru, ari gufasha umubyeyi amwerekera uko baha ibere umwana.

Ahagaragara nko mu cyumba cyita ku bana bacyonka, haragaragara umwana bari gufata ibipimo ngo barebe ko afite imirire ihagije ndetse n'igihagararo. Nkuko bigaragara ndabona umuganga wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'abandi batatu bambaye imyenda isanzwe, numwe mu bareberera muganga wambaye nawe itaburiya y'ubururu

Kwa muganga ahazwi nk'aho bita ku bana, haragaragaramo umuganga wabugenewe wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara hamwe n'umubyeyi wazanye umwana we kumuvuza ubutwayi bwo mu matwi.

Kwita ku bana ni ibintu muri iki gihugu bashyira imbere, hano ndi kubona abana bagiye batandukanye basa nkaho bari mu kigero kimwe bahaye icyo kunywa kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Kwa muganga aho abagore babyarira, ahantu hafite isuku nyinshi cyane harimo umugabo wambaye umupira wa rakosite y'ubururu ndetse n'umugore wambaye ishati irimo amabara agiye atandukanye higanjemo umutuku bari kuganira.

Ahantu munsi y'ibiti, hagaragara abantu benshi bicaye ku ntebe zibaje mu biti, ndetse bambaye imyenda igiye itandukanye, hivanzemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo.

Ahagaragara imbaga y'abantu benshi, hakubiyemo igitsina gabo n'igitsina gore, bicaye bakoze uruziga, biragaragara ko harimo n'abagore bahetse ndetse bateruye abana, bari kuganira ku bintu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bifasha mu buzima rusange bw'abanyarwanda.

Ahagaragara abantu benshi bari mu gikorwa cyo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse no mu muryango nyarwanda turabonamo abantu benshi b'ingeri zitandukanye, igitsina gore n'igitsina gabo ndetse n'abo mu nzego z'umutekano.

Ahagaragara imbaga y'abantu benshi yiganjemo igitsina gore, ndikubona bambaye imipira ya orange, bafite imitaka irimo amabara abiri orange n'umweru, ndetse n'ibipirizo bya orange, bari mu bukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima.

Ahantu hari urujya n'uruza rw'abantu b'igitsina gabo bonyine basa nkaho ari abana bakiri bato, bambaye imipira y'icyatsi bafite udupapuro mu ntoki, bisa nkaho ari uburyo bwo kuganiriza abantu ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe ndetse no kugorora abadafite imico myiza.

Abantu bambaye imipira y'icyatsi n'amapantaro y'umukara, basa nk'abari mu bukangurambaga ku bijyanye n'ubuzima baricaye ndetse bari kumwe n'abantu bo mu nzego z'umutekano w'u Rwanda bazwi cyane nk'abasirikare, hagati muri bo mu bahagaze harimo umugabo wambaye ikositimu ndetse na karuvati itukura.

Ahantu hicaye imbaga y'abantu benshi y'ivanzemo igitsina gore n'igitsina gabo ku dutebe bukoze nk'uruziga, inyuma yabo hakaba hari imifuka ipanze neza hasa nkaho bari ku nsanganyamatsiko yo kwiyubaka.

Ku muryango winjira ku ivuriro, hagaragara imbaga y'abantu benshi yivanzemo abirabura ndetse n'abazungu, ubona ko bari gufatira hamwe ifoto y'urwibutso, kugira ngo bajye bibuka ibi bihe.

Ahagaragara imbaga y'abantu benshi hivanzemo abagore ndetse n'abagabo, abenshi muri bo bambaye imipira y'cyatsi yanditseho RBC bigaragaza ko bari gukora ikangurambaga ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'imibereho myiza y'abaturage.

Ahazwi nko kuri farumasi, aho bacururiza imiti, haragaragara nk'imiti y'amoko menshi agiye atandukanye, ipanze neza mu ma etajeri, ndetse bikaba bigaragara ko bifite isuku, kandi ari byiza cyane.

Muri farumasi aho bagurisha imiti igiye itandukanye, ndabona etageri nzipanzemo imiti, buri etager ikaba ifite ubwoko bumwe bw'imiti igaragaza ko ari farumasi ifite imiti ihagije.

Aho bagurishiriza imiti hazwi nko muri farumasi harimo umugore wambaye imyenda yirabura imbere hakaba hari igitabo yandikamo ndetse n'amashini, iyi miti ikaba itondetse neza mu mayetajeri yayo.

Icyapa kigaragaza aho ivuriro riri, giteye ku twuma tubiri dusize ibara ry'umukara ndetse rikaba kiri iruhande rw'ibyuma bisa nk'ibikorutiriye aho kwa muganga.

Aho bacururiza imiti hazwi nko muri farumasi haragaragara umuganga uri gupanga neza imiti muri etajeri, buri ka etajeri kakaba karimo imiti igiye itandukanye ndetse n'uwo muganga akaba yambaye imyenda yabugenewe.

Ahazwi nko kuri farumasi, aho bagurishiriza imiti, ndabona etajeri irimo imiti igiye itandukanye, ikaba ari farumasi, ifatika kandi ifite imiti ihagije yo kugurisha abayiganye.

Ahazwi nko muri farumasi hagaragara imiti igiye itandukanye yo kuvura, haragaragaramo ga bakoresha bambara mu biganza mu gihe bagiye kuvura ndetse no kwita ku barwayi.

Aho bagurishiriza imiti igiye itandukanye, ivura abantu, hazwi nko muri farumasi, haragaragara imiti y'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye, ikoreshwa ku ndwara zitandukanye.

Aho bagurishiriza imiti hazwi nko muri farumasi ndahabona amayetajeri agiye atandukanye, hejuru yayo hakaba hari ibikarito, munsi hakaba hapanzwemo imiti igiye itandukanye.

Ahazwi nko muri supa maketi habonekamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye hagaragaramo umukobwa wambaye umupira w'umweru, uri kubyitaho ndetse anabikorera amasuku.

lmiti y'amatungo igaragara mu ikarito ripfunyitsemo, ikaba ishushanyijeho amatungo ivura, ndetse ikaba iri ahantu habugenewe, hazwi nk'aho bacururiza imiti y'amatango.

Ahagurishirizwa imiti hazwi nko kuri farumasi haragaragara amayetajeri arimo imiti igiye itandukanye ndetse n'intebe yicaramo umuganga ushinzwe kujya ahereza umurwayi umuti ashaka.

Ahazwi nk'ahateraniye imbaga y'abantu benshi, bagatumira umwe mu bahanzi b'u Rwanda akabataramira ndetse bakaniga ku bijyanye n'uko bakirinda indwara zigiye zitandukanye no kubungabunga ubuzima bwacu muri rusange.

Icyapa kiri mu ishusho ya orange cyanditseho kina unirinde, ubona ko ari ubukangurambaga bushishikariza gukora imyitozo runaka, kuko igira akamaro ku buzima bw'umuntu ndetse ikanaba igufasha kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Abantu bagera kuri batanu hakubiyemo umwana ukiri muto basa nkaho bari mu gikorwa cyo kubungabunga, ndetse no kwigisha ibijyanye n'ubuzima no kubyitaho.

Muri sare imwe ahagaragara imbaga y'abantu benshi, hivanzemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, haragaragaramo ku mipira yabo ko handitse ngo ugakoreshe neza, bikaba ari uburyo bwo gukangurira abantu gukoresha agakingirizo.

Ahantu bari gukingira ndabona umuganga wigitsina gore wambaye amarinete ari gukingira umusore wambaye ingofero y'umukara nishati y'ubururu irimoturongo twumweru.

Icyapa kiri ahantu kigaragaza insanganyamatsiko yo gushishikariza urubyiruko kujya bitabira icyumba cy'urubyiruko, hagaragaraho abantu bashinzwe iyo serivisi ndetse n'abayishishikariza abandi cyane, ubona ko iki cyapa kiriho n'amasaha ndetse n'itariki yo gukora icyo gikorwa.

Igikorwa cy'ubukangurambaga bugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina hagaragara igitsina gore byishimiye ibyo bintu ndetse bakaba bishyize hamwe bambaye imipira igaragaza ibyo bari gushyigikira muri ako kanya.

Icyumba kimwe gikubiyemo imbaga y'abantu benshi bafite insanganyamatsiko yo kwiga ku buzima bw'imyororokere, kugira ngo bajijure abatura Rwanda.

Hano turi mu bukangurambaga ku byerekeye ubuzima, ibyo rero ni ibintu dushyiramo imbaraga cyane kuko bifasha abantu kwirinda ndetse no kwitwararika, ku birebana n'ubuzima bwabo, ibyo akaba ari ibintu dukunda cyane kuko ari ingirakamaro mu baturarwanda kandi ni ibintu buri umwe umwe agomba gushyiramo imbaraga.

Ubu njye na bagenzi banjye turi mu bukangurambaga bwo kubwira urubyiruko tubashishikariza ndetse n'undi muntu umubiri ujya unanira akananirwa kwihanganira ikintu kitwa ubusambanyi kwifata bikamubera imbogamizi, kujya akoresha agakingirizo kuko muri iyi si hari kwaduka indwara nyinshi zigiye zitandukanye kandi zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Ahazwi nk'ahari gukorerwa ikangurambaga ryogukoresha agakingirizo hagaragara abantu b'ingeri zose igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bitaye neza ku gikorwa bariho cyo kubungabunga ubuzima.

Imiti gakondo ni imwe mubi bikoreshwa bavura abantu batiriwe bajya kwa muganga, hano ndabonamo ubwoko bune bwayo, bimwe birumye ibindi biracyari bibisi.

Ahagaragara imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu buvuzi gakondo, ndabonamo ibyati ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye bakoresha mu kuvura rubanda ndetse no mu kugabanya ibyago byo kurwaragurika.

Ku meza ahateretse imiti gakondo igiye itandukanye ukaba uri kuyibona ko iteretse ku makoma ndetse hirya hakaba hari udusahane bayitunganyirizamo.

Umwenya ni igihingwa kiza cyane kikaba gikoreshwa mu kunga icyayi bamwe bakaba banagikoresha nk'umuti uvura inkorora mu buryo bw'imiti ya gakondo umuntu akoresha atiriwe ajya kwa muganga.

Ahazwi nk'ahakunze kugaragara imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu kuvura, abantu bya kinyarwanda haragaragara, udufuka tugiye dukubiyemo imiti, itandukanye.

Ibitaro bikuru bya Gatunda, haragaragara imbaga y'abantu benshi b'abakozi babyo, basuwe n'inzego z'umutekano zizwi mu'igisirikare cy'u Rwanda, urabona bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso bishimye mu maso.

Ahazwi nko kwa muganga haragaragara icyumba cy'abarwayi hakubiyemo abaganga benshi, babiri muri bo b'igitsina gabo bari kuganira ubona ko bari kungurana ibitekerezo.

Ku ivuriro ahagaragara nko muri sale, urabonamo imbaga y'abantu benshi yivanzemo igitsina gore n'igitsina gabo urabona ko bari kuburizwa ku bintu bigiye bitandukanye.

Ahazwi nko kwa muganga, mu cyumba bakiriramo ababagannye kugira ngo babwire muganga uko yiyumva, haragaragara umurwayi uri kwitegereza muganga mu maso yumva ibyo amubwira ndetse na muganga wambaye imyenda yabugenewe na ga mu ntoki, zisa ubururu.

Ku Ivurira rimwe mu cyumba basa nkaho bavuriramo haragaragara igitanda baryamishaho abarwayi ndetse n'amamashini agiye atandukanye. Hari umuganga wicaye ku ntebe akaba yambaye agashati hejuru ku umweru.

Ahazwi nko kuri Gira ubuzima, akavuriro gatoya kakira abarwayi barwaye indwara zidakomeye cyane, haragaragara inzu isize ibara ry'ubururu ndetse ifite ubusitani hanze, ariko busa nkaho butaramera neza ku kigero cyiza.

Ahazwi nko kwa muganga haragaragara inyubako nziza zifite amabati y'umutuku ndetse n'ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'abantu bategerereje aho bakirira ababagana.

Icupa ryanditseho kalisiyuumu rifite amamilitire magana ane, akaba ari imwe mu miti iboneka kwa muganga ifasha abarwayi kandi b'ingirakamaro mu mubiri w'umuntu.

Ikigo 'Gira buzima' ni ikigo cyiza cyane kandi gifite abakozi bashyira hamwe. Ubwo rero barabona ko bari bafite abashyitsi bagendereye bari mu gikorwa cyo gushyira hamwe.

Kwa muganga haragaragara abaganga babiri basa nk'aho bari guha serivisi umurwayi, urabona ko bamwitayeho bamureba mu maso bumva ibyo ababaza n'ibyo ababwira neza babyitondeye, imbere yabo hateretse aka bogisi gasa nk'aho gafite ibara rya pinki n'umweru ndetse n'icupa ry'amazi y'inyange.

Ahazwi nko ku ivuriro haragaragara inyubako isize ibara ry'ubururu, ifite uduti imbere ndetse na kandagira ukarabe, imbere haragaragara abaje kwivuza ndetse mu kibuga hashashemo utubuye.

Ku ivuriro ahagaragara kandagirakararabe nziza cyane akaba ari bumwe mu buryo abantu bakoresha birinda indwara z'inzaduka, bikaba ari itegeko kwinjiramo ukarabye, urabona ko ifite ibyangombwa byose, isabune ndetse n'amazi bakoresha bakaraba.

Ku ivuriro hari umuganga ufite urushinge wambaye ga mu biganza byombi, wambaye n'itariya kandi urabona ko ari kwitegereza urushinge bivuze ko yitaye ku gikorwa agiye gukora aricyo cyo kuvura urabona ko ari ibintu bishyize mu gaciro.

Ku ivuriro hari umuganga uri gufata amaraso ndetse hari n'umurwayi umuhagaze imbere ari kuyafataho, inyuma ye hari agacupa k'amazi y'inyange nawe yambaye itaburiya y'umweru irimo ishati imbere na ga mu maboko, umurwayi yambaye ibitenge birimo amabara y'umutuku, umuhondo n'umweru.

Aho kuryamisha abarwayi ni ahantu h'ingenzi mu bitaro kandi hakenerwa isuku nyinshi, hano hari abarwayi baryamye ku bitanda byiza kandi bishashe neza, bifite inzitiramibu hejuru kandi bigaragaza ko hari n'akantu kongera umuyaga mwiza iyo habonetsemo nk'ubushyuhe.